Ifumbire mvaruganda cyangwa se fatiriza mu ndimi z'amahanga. Ni ifumbire twifashisha tukayishyira mu myaka, kugira ngo ibashe gushisha ibeho itohagiye. Niyo mpamvu rero dukwiriye gukoresha ire, aho tubona imyaka yacu itagenda neza, kugira ibashe kugira ubuziranenge, ishishe, itohagire, bityo izaduhe umusaruro mwinshi, mwiza, twifuza.

Gutera imiti mu myaka birinda udukoko utwo ari two twose dushobora kwangiza imyaka, bityo rero bikadufasha kongera umusaruro, iyo umusaruro iyo dusaruye imyaka yacu tutarigeze tuyitera imiti tukanasarura imyaka twateye umuti, nitujya kubigereranya dusanga imyaka yatewe umuti igira umusaruro mwinshi kurusha ya myaka tutakurikiranye ngo dutere imuti.

Ubuhinzi bwacu buba bwiza kuko budufasha, ariko buba bwiza kubera ko umuhinzi yabigizemo uruhare. kugira ngo ubuhinzi bwacu bube bwiza, ni uko tugomba kubukorera neza tukahagirira isuku, tukabuhingira neza, ariko tukibuka gutera imiti irimo ensegitiside, ensegitiside mu ndimi z'amahanga rero, ni uko bisobanura imiti yica udukoko n'utundi dusimba dushobora kwangiza imyaka.

Gutrera umuti ibihingwa byacu bidufasha kongera umusaruro kubera ko iyo duteye uriya muti wica icyitwa microbes mu ndimi z'amahanga cyangwa se mikorobe, ishobora kwangiza gishobora kwangiriza kugira ngo kitera neza bityo kibashe gutanga umusaruro. Ni ninayo mpamvu rero dukwiriye gutera umuti kubera ko umuti udufitiye akamaro mu kugira ngo tubone umusaruro uhagije.

Dukwiriye guhinga imyaka, kandi tukamenya ko dukwiriye kuyibungabunga, tukayirinda udukoko twose dushobora kuyangiza, binyuze mu gutera imiti, tukayitera umuti wica udukoko twose, tuza twibasira iyo myaka bitewe n'ubwoko bwayo, bityo rero bikadufasha kubona umusaruro twifuza, kandi uhagije wujuje ubuziranenge.

Dukunde ubuhinzi kandi tugerageze gukoresha amafumbire nyongeramusaruro. Dukoreshe inyongeramusaruro kugira ngo tubashe kugira umusaruro uhagije , tubone ibidutunga ndetse dusagurire n'amasoko.

Igihe duhinga tugomba gutera imyaka yacu umuti, kugira ngo tuzabashe kubona umusaruro uhagije, kandi wujuje ubuziranenge biturutse mu gutera umuti muri ya myaka yacu. Niyo mpamvu rero twese dukwiriye kwita ku bihingwa twahinze, tukabitera imiti kugira ngo bibashe gukura neza, bityo bibashe kuduha umusaruro twifuza.

Kugira ngo twirinde kwangirika kw'imyaka dusarura, tuyivana mu murima ndetse n'ahandi hose twahinze, dukwiriye kugira uko tuyibika tukayifunga neza twirinda ko yakwangirika, bityo tukabasha kubungabunga ubuziranenge bwayo, uyikoresha akayikoresha yizeye neza ko nta kindi kibazo ishobora gutera, ku buzima bw'umuntu.

Ifi ni ikiribwa gituruka mu mazi gifasha abantu benshi kugira ubuzima bwiza binyuze mu kukirya. Urugero: nk'abana. Umwana iyo ari ifi abasha gutekereza neza, ndetse ubwonko bwe bukabaho bumeze neza nta kindi kintu gishobora gutuma agira siteresi mugihe akiri muto.

Ubwato ni igikoresho twifashisha tugenda hejuru y'amazi, cyangwa se dukora ingendo zo mu mazi. Kikadufasha gutwara ibintu n'abantu kandi neza, ntacyangiritse. Niyo mpamvu dukwiriye kugifata neza tukabugabunga umutekano wacyo, tukirinda kukigendamo cyangiritse. Tukabanza kugisuzuma neza kugira ngo twirinde impanuka, dushobora guterwa na cyo igihe hari ingaruka cyahuye na zo.

Isambaza ni utunyamaswa duto tuba mu mazi, turi muri mu bwoko bw' utujya gusa nk'ifi. Utwo tunyamaswa rero turarategurwa natwo tugashyirwa ku meza, tukabasha kudufungura, niyo mpamvu dukwiriye kudufata neza kuko tuduha intungamubiri nyinshi.

Ubwato nigikoresho dukoresho cyo gukora ingendo zo mu mazi, ni igikoresho kireremba hejuru y'amazigira ikindi kintu tubasha kugira ikibazo, dushobora kugendamo cyangwa se tukagitwaramo n'imizigo, ibyo dutwaye turabitambutsa tukabigeza hakurya kukembe aho twifuza kugera.

Ifi ni akanyamaswa gakurira mu mazi, kaba mu mazi. Rero, tugategura ku meza; iyo tuyiteguye ku meza, turayiteka, hanyuma tukayishyira ku meza. Abari ku meza bakabasha kuyirya. Ni inyamaswa nziza rero, turya tukayikuramo intungamubiri. Izo ntungamubiri zikadufasha kugira ubuzima bwiza, tukabaho tumeze neza binyuze mu kurya indyo yuzuye twifashishije ifi.

Ifi ni akanyamaswa gakurira mu mazi dukunda gutegura ku meza kugira ngo tubashe kugira indyo yuzuye, rero birashoboka ko dushobora kuyikura mu mazi twayikura mu mazi ari nyinshi tudashobora kuzirira umunsi umwe, hari icyo twita mu ndimi z'amahanga presavingifishi, gutegura ifi cyangwa se kubungabunga ifi yacu kugira ngo itaza kwangirika, dushobora kuzitera umunyu kuzanika no kuzishyira mu mwotsi, ni yo mpamvu rero rimwe na rimwe tuzitera umunyu, kugira ngo tuzirinde kubora cyangwa guhumura nabi.

Ifi ni akanyamaswa gato gakurera mu mazi, bityo kabasha gukura tukaza kugafata twifashishije imitego yabugenewe, tukagatwara tukakagurisha cyangwa se tukabasha kuyitegura ku meza, uwo tuyigurishije ayitegura ku meza, ifi rero itegurwa ku meza kugira ngo tubashe kurya indyo yuzuye, ni yo mpamvu dukwiye kuyifata neza tubungabunga amazi, kugira ngo ibashe gukuriramo neza, kandi tukirinda n'abashobora kuyikuramo itarakura.

Ifi ni inyamaswa nziza, ifi ni akanyamaswa keza kaba mu mazi. Yugakoresha dute rero? Ifi tuyikoresha tuyitegura cyane cyane ku meza, ifi ifite intungamubiri nyinshi ifite intungamubiri nziza by'umwihariko ikwiriye kugaburirwa abana n'ubwo n'abantu bakuru batayibujijwe, ariko cyane cyane abana kuko ibafasha intungamubiri zivamo zibafasha gukura neza.

Mu mazi tugiramo ibinyabuzima byinshi bitandukanye, kuko ibyo binyabuzima harimo ibiribwa n'ibitaribwa. Ibiribwa harimo amafi, amahera, isambaza ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe twagakwiriye kwiga no kubitegura, tukagerageza kubitegura neza, kugira ngo twige ukuntu tubishyira ku meza.

Ibitoki ni igihingwa cyiza duhinga kugira ngo tubashe kubona umusaruro w'ibitoki. Ibyo bitoki dushobora kubirya cyangwa se tukabikuza bikaba iby'imineke, hari ukurya tubitetse hari no kubirya n'iminekeH hanyuma rero dukwiriye kubikurikirana tukabifumbira kugirango tubashe kubona wa musaruro tubikeneyeho rero insina ni ikintu cyiza dukwiriye kwitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko kiduha umusaruro mwiza.

Avoka cyangwa se igiti cyavoka ni igiti dutera kigakura kikaza kuduha avoka. hanyuma avoka ni urubuto rwiza turya ushobora kurya ku biryo rukagufasha gutuma urubungano ngogozi rwawe rukora neza bityo ntubashegire ikibazo munda cyane cyane mu mara.

Umusarani : umusarani ni ahantu hakenerwa gukoreshwa n'umuntu uwo ari we wese muzima wuzuye. Kubera y'uko iyo umaze kurya , urwungano ngogozi rutunganya ibyo wariye, bimwe bikajya mu mubiri nk'intungamubiri, ibyo twita nitiriyensi mu ndimi z'amahanga. ibindi bigaca mu rura runini bigasohoka. Rero iyo bisohotse ujya ku musarani kugira ngo ubashe kumva uruhutse ,umeze neza. Ni yo mpamvu rero umusarani dukwiye kuwufata neza, kuko tuwufashe nabi byadutera uburwayi.

Abantu biga siyansi mu ndimi z'amahanga twiga ko ibimera bikura bikava mu butaka. Ibimera rero birakura bikava mu butaka. Igishyimbo kirakura kikava mu butaka ndetse n'impeke yacyo. Bityo amababi yacu agakura tukanayarya. Abantu bayarya rero bibafasha kwinjiza intungamubiri nyinshi cyane mu mubiri wabo. Niyo mpamvu dukwiriye kubyitaho duhabwa umusaruro bikadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Kameroni ni ubwatsi duha amatungo yacu, kugira ngo abashe kumera neza, gukura neza kandi abone ibiyatunga bihagije, niyo mpamvu rero dukwiriye kuyihinga tukayifata tukayikurikirana kandi tukirinda, igishobora kuyibangamira kuko iramutse itujuje ubuziranenge ishobora kwangiza amatungo.

Tugerageza kubungabunga ibidukikije birimo amashyamba. Amashyamba ni hamwe hagaragara ibintu byinshi bitandukanye. Birimo inyamaswa zikurira mu ishyamba ndetse n'ibindi biti bikurura imvura, ndetse bigatanga n'umwuka mwiza ,bikagerageza no kugabanya umwuka mubi uhumekwa n'ibinyabuzima birimo abantu n'inyamaswa.

Imigano n'ibiti bikomera cyane bikaba bishobora no kwangiriza abantu, igihe babikoresha kubera yuko kikuguyeho rimwe na rimwe igisongoye gishobora gukomeretsa, niyo mpamvu nk'abahigi akenshi wasangaga bifashisha imigano. Ariko ubuhigi bwaracyiwe kuko gihiga inyamaswa zidufasha ziduha amafaranga ntabwo aribyo, ubuhige ntibugakorwe kuko si bwiza.

Ibyatsi amatungo arya ni ibyatsi bitandukanye muri ibyo byatsi rero dusanamo kameroni, ururwiri ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari n'ibindi byatsi bikunda kumera ahantu henshi hatandukanye nko mu mashyamba ibyo twita umukaranka. Umukaranka ni ibyatsi byifashishwa akenshi iyo dukama igihe ibitoki bishatse kunanirana abenshi bazi dukunda kuvuga ngo ni ugutema twifashisha umukaranka kugira ngo turinde ibitoki byacu gutema.

Ihene n'itungo ryororerwa mu rugo, ihene rero nayo igaragara mu moko atandukanye; hari ihene ikamwa, hari n'ihene idakamwa, ihene ikamwa iki? amahenehene, ihene ntabwobwo bayikama amata, bayikama amahenehene. Ihene rero n'inyamaswa nziza dukwiriye kwitaho tukayibungabunga kuko kiduha umusaruro mwiza.

Igiko ni igiti cyiza cyane kigira amasubyo yifashishwa mu burobyi bwa kinyarwanda ,aho usanga abarobyi bayabafata bafata amasubyo yacyo amwe agaragara nk'imishubi cyangwa nk'amasubyo bakayahata bakayanyuzamo ihuze hagati hanyuma bagashyira mu mazi bashyizeho urugobe imbere kuri rya huzi iyo ifiriye cyangwa ihera rya subyo ririka, iyo ryitse bakaba bahita baruba ya hafi.

Ubuhinzi bwacu kugira ngo tumenye ko bwagenze neza, ni uko dusarura tukareba umusaruro dukuyemo niba uhagije. Igihe rero tubonyemo umusaruro uhagije, ni uko dukwiye kongera gutegura bwa butaka, kugira ngo tuzabwifashishe mu kindi gihembwe cy'ihinga.

Duture mu mudugudu, duture ahantu heza haboneye hari ibiti bishobora kuduha umwuka mwiza, ariko kandi twirinde gutunga ishyamba hafi y'urugo, kuko ishyamba ari kimwe mu bintu bishobora korora imibu, bigatuma idutera marariya.

Kimwe mu bifasha umuturage gutera imbere cyane mu gihugu，ndetse binafasha iterambere ry'igihugu kwihuta，ni umuriro w'amashanyarazi wifashishwa mu bintu byinshi bitandukanye， mu nganda n'ahandi hantu henshi hatandukanye. Ariko kirazira kikaziririza gupfa kuwukoresha bitewe n'uko ugira ingaruka. Ingaruka zawo ushobora kugutwika，ushobora kwangiza ibintu byinshi bitandukanye， niyo mpamvu umuriro tugomba kuwurinda abana， tukirinda no kwegera ahantu umuriro cyangwa ibiranga umuroro w’amashanyarazi.

Igiti cy'avoka ni igiti gikura tugitera ari urugemwe, cyangwa se ibyo tuzi nka sidilingi, kigakura ,cyamara gukura kikaba kinini ,kikaba macuwa mu ndimi z'amahanga, bityo kikabasha kuduha imbuto z'avoka tukazirya ku biryo, bityo bikadufasha gutuma urwugano ngogozi rwacu rukora neza bitewe no kurya avoka.

Ibigori nigihingwa cyiza cyane. Tubikuramo umusaruro, uwo musaruro tukawifashisha mu buryo bwinshi butandukanye. Hari ukubisheshamo ifu, tukarya umutsima, ndetse tukabasha no gukuramo igikoma. Tukanywa igikoma giturutse mu ifu y'ibigori. Ndetse tugasagurira n'amasoko kugira ngo tubone amafaranga twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi turihira abanyeshuri tunabasha kubona ibyo kurya.

Igitebo ni igikoresho dushyiramo imbuto n'ibindi bintu bishobora kwangirika igihe tubitwaye mu mufuka, n'iyo mpamvu rero igihe dutwaye imbuto zacu kugira ngo zigende zujuje ubuziranenge, dukwiriye kuzishyira mu bikoresho byitwa ibitebo cyangwa se n'ibindi bikozwe nka byo, kuko ni ibikoresho bidufasha gutuma za mbuto zacu zitangirika ngo zibe zishobora kumeneka.

Umwembe ni urubuto rugira ikibuto mu nda kinini, icyo kibuto tukaba dushobora kugitera kikaza kumeramo undi mwembe mutoya ari byo twita mu cyongereza sidilingizi. Sidilingi ni urugemwe, icyo kibuto rero kibamo urugemwe, iyo turya umwembe turya urubuto rw'inyuma ruba ruri kuryoherera, bigatuma urwungano ngogozi rwacu rukora neza, urubuto rero rw'umwembe ni rwiza cyane.

Amashu ni ibiribwa duhinga, bikabasha gukura binyuze mu kubifata neza, tukabitera imiti, bikaduha umusaruro twifuza. Hanyuma w’umusaruro ukadufasha, tukayarya, tukanabonamo amafaranga binyuze ku musagurira amasoko. Bityo, amafaranga tukayifashisha turihira abana bacu amashuri, ndetse natwe akadufasha kubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu bihingwa duhinga hari ibihingwa turya imizi yabyo. Ibyo bihingwa rero, ushobora kwibaza ngo ni ibihe? Ibyo bihingwa harimo imyumbati, ibijumba n'ibindi bitandukanye birimo ibirayi. Hari ikindi gihingwa rero tutakwirengagiza dukunda kwita amateke. Amateke na yo ni igihingwa turya imizi yacyo. Iyo mizi yacyo ikaba itera imbaraga.

Umwembe, umwembe n'igiti duhinga kikavaho imbuto turya, izo mbuto tukazirya byaba ngombwa nazo zikaba zifite urundi rubuto mu nda dushobora gufata tugashyira mu itaka binyuze mu kubona amazi, ubushyuhe ndetse na ogisigene cyangwa se umwuka mwiza duhumeka, rukongera rukamera rukaduha urundi rugero twita sidiringi rero umwembe n'urubuto rwiza rudufasha mu rwungano ngogozi rwacu igihe twabashije gufata ibindi biribwa.

Ku Isi nta kimera na kimwe Imana yaremye kidafite akamaro, n'iyo mpamvu rero dukwiriye kubungabunga ikimera icyo aricyo cyose kuko cyifashishwa cyane cyane nk'umuti. Iyo tugiye kureba imiti iva mu bimera bike bitandukanye urugero dushobora kwifashisha igiti cy'avoka cyangwa se ipera. Ipera ni igiti rero cyiza cyane kivaho urubuto ndetse n'amababi yacyo akifashishwa mu buvuzi.

Ubuhinzi bw'ibigori n'ubuhinzi bwiza kubera ko ibigori bitanga umusaruro kandi bigatanga umusaruro mwiza. buri wese ushobora kumugirira akamaro urugero ibigori byiza tubikuramo ifu iyo dushobora kuyikoresha mu buryo butandukanye dushobora ku yiryamo umutsima, dushobora kuyitekamo igikoma ari nayo mpamvu dukwiriye kubikurikirana tugahinga neza bityo bikabasha kuduha umusaruro mwinshi twifuza.

Imishwi ni iki rero? Imishwi ni udukoko dutoya, tukiva mu magi cyangwa tumaze igihe gitoya tuvuye mu magi. Utwo dukoko dushobora kuva mu magi bitewe n'imashini ituraga, cyangwa se tugaturagwa, ayo magi agaturagwa n'inkoko nyirizina yayateye. Bityo tukabasha kubona udushwi, tukatwitaho, ejo hazaza natwo tukazabasha guturaga andi magi, cyangwa se tukaduha inyama turya tukagira ubuzima bwiza.

Isoko ry'imbuto n'isoko dushobora gusangamo; inyanya,, itoryi, karoti, pavuro, sereri, epinari imboga rwatsi, itangawizi, ndetse n'ibindi byinshi birimo nk'ibitunguru dukwiriye kuribungabunga rero, iri soko kuko kimwe gishobora kwangirika kikagiriza byinshi, niyo mpamvu twebwe turigana tugamije guhahiramo, dukwiriye kugenda neza tukarihahiramo ariko n'abacuruzi bakabasha gukurikirana ubuziranenge bw'ibicuruzwa bafite.

Mu buryo bwo kugira ngo tunoze neza umusaruro wacu ube umeze neza, ni uko dukwiye gusarurira hamwe hanyuma tukaza gukuramo imbuto tuzifashisha mu kindi mu kindi gihembwe cy' ihinga, kuko buri wese afashe ya myaka akayijyana iwe ashobora kuyikoresho bitandukanye, ikindi gihembwe cy'ihinga cyagera akabura iyo yifashisha yongera guhinga kugira ngo umusaruro wiyongere.

Umuntu ni igihugu cyiza cyane dukwiriye kwitaho kuko ari kimwe mu bitera imbaraga, umwumbati rero tuwutegura ku meza neza cyane tukabasha kuwurya, tugakomera tukagira imbaraga ndetse bikanadufasha kugira umubiri mwiza wujuje ibisabwa, biturutse mu kurya ibirinda indwara byubaka umubiri, n'ibitera imbaraga muri ibyo bitera imbaraga rero ari ho dusanga umwumbati.

Mu gifaransa tugira icyo twita deseri, deseri n'imbuto twifashisha igihe turi ku meza tumaze kurya ifunguro, kugira ngo zibashe gufasha urwungano ngogozi igogora kugirango ngo igogora rigende neza mu mubiri, muri izo mbuto dushobora gusangamo amacunga cyangwa se orenji ini ingirishi, tukagiramo watermeloni, izi ni imbuto zifasha koza mu mara ndetse n'igogora rikagenda neza mu mubiri.

Ubworozi ni ingirakamaro kuko bwifashishwa mu iterambere ry'umuryango cyane cyane. Hari ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'ubworozi bw'amatungo maremare. ubworozi bw'amatungo magufi ni ubworozi butagorana kubworora. Ni yo mpamvu buri wese akwiriye kubwitaho, akabwifashisha mu gihe agize ikibazo mu kurihira abanyeshuri, ndetse n'ahandi hantu hatandukanye.

Ibigori n'igihigwa cyiza dusarura tukabasha kugikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, binyuze mu gufata ibyo bigori tukabibetesha tukabonamo ifu, iyo fu tukaba dushobora kuyiryamo umutsima benshi tuzi ku izina rya kawunga, tukanabasha gukuramo nano ifu y'igikoma tukabasha kunywa igikoma kugira ngo tububashe kugira ubuzima bwiza.

Fidilingi mu rurimi rw'amahanga ni urugemwe mu kinyarwanda; fidilingi aribyo urugemwe mu kinyarwanda ni urugemwe dufata tukarutera rukaza gukura rukaba mu rurimi rw'amahanga ibyo twita macuwa, rugakura rugatanga umusaruro rugasarurwa bityo tukaza kurutunganyamo ibindi bikoresho bitandukanye.

Dukunde guhinga tunite ku bihingwa byacu, urugero imbuto: imbuto dushobora guhinga, harimo amatunda, amaronji, ibinyomoro ndetse n'imyembe. Umwembe rero ni igiti cyiza cyane dukwiye gukurikirana, tukamenya uburyo kimeze, tukakirinda uburwayi kuko imyembe tuyifashisha kugira ngo tugire urwungano ngogozi rukora neza.

Dukunde ubuhinzi kuko ubuhinzi burafasha. Ubuhinzi burakiza. Ubuhinzi bugandura urugo. Ubuhinzi burwanya ubukene. Ubuhinzi butanga amafaranga akifashishwa mu kurera abana bacu neza, mu kubaka igihugu twifuza, mu kubaka iterambere twifuza binyuze mu kubona ibyo kurya dukomoye muri ubwo buhinzi.

Mu buhinzi twifashisha ibikoresho bitandukanye, mu bihugu byamaze gutera imbere byifashisha imashini, cyangwa se ubuhinzi buteye imbere cyane, bwifashisha imashini bitewe n'ingano y'aho duhinga, niyo mpamvu mu gihe tutaragera ku rwego rwo gukoresha imashini zihinga, dukoresha ibikoresho biciriritse birimo: amasuku. Kuko nayo ari kimwe mu bikoresho bidufasha mu buhinzi bwacu.

kwiga uko dushobora gutegura akarima k'igikoni. Akarima k'igikoni ni ahantu dutera imyaka cyangwa se dutera imboga, n'izindi mbuto zidufasha gutegura amafunguro yo ku meza. Ni yo mpamvu rero dukwiriye kubyiga tukabisobanukirwa, kugira ngo tubashe gufasha imiryango yacu kubona indyo yuzuye tunarinda abana kurwara bwaki. Ni yo mpamvu rero indyo yuzuye ari ingenzi, kandi tukaba tuyikomora mu guhinga uturima tw'igikoni.

Itunguru ni ikirungo cyiza cyane dukwiriye kurya kugira ngo tubashe kubona intungamubiri zuzuye, bityo rero gishobora gutegurwa mu buryo butandukanye, hari kugiteka mu mavuta hari no kugiteka, cyangwa se ukagikata ukagikatira ku biryo urya akagenda agifata ari kibisi. Ni yo mpamvu rero dukwiriye kugikomeraraho, igitunguru ni kimwe mu biribwa bivura imitsi bizibura imitsi, umuntu urwaye imitsi akwiriye kurya ibitunguru kuko bimufitiye akamaro.

Tugerageze duhinge twite ku buhinzi twita ku bihingwa ngandurarugo, kuko bidufasha kugira ngo tubeho uyu munsi ndetse n'ejo. Ubuhinzi rero hari ibiti byinshi duhinga birimo ibiti biribwa imizi urugero: nk'imyumbati. Imyumbati ni imwe mu biribwa bidutera imbaraga tukabasha gukora dufite imbaraga.

Tugerageze kurya ibiryo bidufasha kumera neza mu mubiri, turye ibiryo bifasha urwungano ngogozi kugenda neza birimo: inyanya, pavuro, puwaro, ibitunguru, ndetse tugerageze no kurya za tangawizi kuko zidufasha kumera neza mu mubiri zikabasha gutuma mu mara tumera neza ndetse no mu gifu.

Mu bihingwa duhinga tugiramo ibirindi indwara, ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga. Ibitera imbaraga rero akenshi dusanga ari ibinyamafufu ibyo tuzasangamo; ibijumba, amateke, imyumbati n'ibirayi. Ibirayi rero ni igihingwa cyiza kidufasha mu kugira imbaraga mu mubiri wacu, igihe twakiriye tugikomereho tugihinge kiduha amafaranga akadufasha no kurihira abana bacu ishuri, tukabasha no kubaho iyo tugifite.

Dushobora guhinga twifashishije imashini, ariko nano biba byiza iyo dusubiyemo tukaharinganyinza, hari imashini zishobora kuharirengangiza na none iyo dutera haruko twatera imyaka, uko twatera ibishyimbo, kuko twatera amateke, uko twatera ibigori ntabwo twakoresha uburyo bumwe, iyo dutera imyaka rero dushobora gucukura imyobo cyangwa se utwobo tukajya duteramo imyaka, hanyuma tukaza gusiba ya myaka ikazamera binyuze mu kubona imvura ndetse na ogisigene.

Ikoranabuhanga turiteze imbere, tumenye kuri koresha kuko ridufasha mu kutagorana, urugero nko kubika amakuru ubutaka tugira ubutaka, ubutaka bwacu dushobora kubika amakuru yabwo twifashishije ibyangombwa by'ubutaka, biriya byangombwa by'ubutaka, ibyo kubigendana biravuna, ariko ushobora kubifata ukabishyira mu ikoranabuhanga, urugero nko kubishyira kuri imeyili bityo bikagufasha, kugira ngo tubashe kubimenya rero n'uko dushaka abantu baduhugura, bakadufasha kumenya ikoranabuhanga.

Abantu twese dukeneye ubuzima bwiza, turashaka kubaho neza, ariko bimwe mu bituma tugira ubuzima bwiza harimo kurya indyo yuzuye, no kurya imbuto zirimo wotameroni. Wotameroni ni urubuto rwiza umuntu arya rukamufasha kugira amasukari mu mubiri, rukamufasha kugira uruhu runyereye, rworohereye, bikamufasha gutuma igogora rigenda neza mu mubiri.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane ,abantu twese dukwiye gushishikarizwa guhinga tukakitaho kuko kidufasha ,ari na cyo kitwa igihingwa ngandurarugo .Ibigori rero bivamo umusaruro uduha ibintu bitandukanye birimo, igikoma ,akawunga bityo iyo fu tukayifashisha duteka umutsima ,nk'uko nabivuze tukanywa n'igikoma, ni yo mpamvu rero dukwiriye guhinga ibigori tukabyitaho, tukabifumbira tugafata neza.

Igihaza n'igihingwa kiza duhinga kikabasha kuduha umusaruro, akenshi na kenshi tugoye kwa muganga rimwe na rimwe adutegeka kurya igihaza kubera ko ari igihingwa turya kikabasha koza mu mara imyanda yose irimo ikabasha kuvamo, kubera uburyo giteye cyorohereye, bigatuma umuntu amera neza urwungano ngogozi rwe rugakora neza.

Nkibisanzwe kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza ni uko afata imbuto zitandukanye. Dufite amacunga mukunze kwita marongi, tukagira indimu, tukagira n'izindi mbuto zitandukanye, zirimo: amatunda cyangwa se pashoni, ariko tugira izitwa pome. Pome ni urubuto rugira intungamubiri zose, yifashisha ingeti gutegura amafunguro ku meza umuntu amaze kurya akabasha kurufata.

Dukunde ubuhinzi kuko ubuhinzi ari ingirakamaro, iyo duhinga rero turasarura, duhinga ibihingwa byinshi bitandukanye tukanabisarura mu buryo butandukanye, dushobora guhinga ibihingwa birimo ibishyimbo n'impeke zitandukanye urugero nk'ingano, ingano ni igihingwa duhinga tukagisarura twifashishije imashini, cyangwa se ibikoresho bya kinyarwanda kuko dusarura dukata, bityo tukazijyana ahantu tukazihura dukoresheje amaboko cyangwa se imashini.

Pavururo ni ikiribwa cyiza cyane twifashisha, igihe turigutegura amafunguro ku meza. Bigatuma umuntu uzirya agira ubuzima bwiza, buzira umuze. Ndetse tutibagiwe ko n'intoryi ari kimwe mu kiribwa twifashisha dutegura amafunguro ku meza bityo kugira ngo tubone indyo yuzuye. Reka rero tubyifashishe, tubirye, kandi neza tubitegure neza ku meza kuko bidufasha mu mubiri wacu.

Isuka ni igikoresho twifasha duhinga. Nimvuga guhinga twumva ibintu byinshi bitandukanye. Dushobora guhinga ibishyimbo, dushobora guhinga ibigoriba, dushobora guhinga amasaka, dushobora guhinga soya, dushobora guhinga uburo, dushobora guhinga n'ibindi byinshi bitandukanye birimo imbuto: Avoka, imyembe, amatunda, ibinyomoro, amaronji, watermelon mu ndimi z'amahanga, n'ibindi byinshi bitandukanye. Isuka rero ni ikintu gikomeye kandi kirakiza.

Ibitoki ni ibihingwa bishobora kugemurwa hifashishijwe imodoka cyangwa se ibindi bikoresho bishobora kudufasha mu gutwara ibyo bitoki. Niyo mpamvu dukwiriye guhinga ibitoki byinshi bityo tukabona ibyo turya tukanasagurira amasoko kugirango ngo tubashe kubona amafaranga adufasha mu buzima bwacu dushakisha ibyo dukeneye.

Avoka ni urubuto rwiza dusanga rufite ikibuto mu nda twarangiza tukagifata nacyo dushobora kugishyira ahantu mu itaka kikamera kikaduha urundi rubuto nkarwo cyangwa se kikaduha urugemwe rwa avoka aribyo twita mu ndimi z'mahanga sidiringi. Niyo mpamvu rero dukwiriye gukurikirana urubuto rwacu rwa avoka tukarurya kuko bidufasha cyangwa se bituma urwungano ngogozi rukora neza.

Pepeniyeri ni ahantu hatunganyirizwa imbuto dutegura kugira ngo tuzazitere, mu ndimi z'amahanga izo dukunda kwita sidiringizi sidiringizi ni imbuto izo ari zo zose, ingemwe harimo avoka imyembe n'izindi zitandukanye zirimo amapapayi kugira ngo tuzazifate tuzijyane ahantu tuzitere, harimo ibiti bitandukanye nka bya karitusi pinusi, ibyo ni ibiti byinshi bitandukanye dusanga muri pipiniyeri.

Ibinyomoro ni imbuto zifashishwa iyo umuntu amaze kurya, cyangwa se atamaze kurya, kubera ko ari imbuto zimwe zituma umuntu agira amaraso menshi, zimwongerera amaraso niyo mpamvu rero dukwiye kwifashisha ibinyomoro kenshi na kenshi, cyane cyane ku bantu bafite ikibazo cy'amaraso make mu mubiri , ibinyomoro tubifate neza tubibungabunge, tubihinge kandi bibonekere ku gihe, mu buryo kubona umusaruro mwinshi ubiturukaho dukwiriye kubifata neza.

Ibigori ni ibiribwa byiza cyane , dukunda gutegura ku meza, ibigori rero kandi iyo tubihinze tukabisarura nabyo biradufasha kubera ko tubibetesha tukabonamo ifu y'igikoma, tukabonamo ifu dukuramo umutsima benshi tuzi ku izina rya kawunga, ni yo mpamvu rero dukwiriye kubihinga tukabikurikirana, bityo bikabasha kuduha umusaruro uhagije twifuza, bityo tukabona ibyo turya kandi tugasagurira n'amasoko uburyo tubona amafaranga

Pavuro ni ibiribwa byiza cyane. Pavuro rero, tuzitegura akenshi iyo turimo turakora isosi cyangwa se dutegura ibiryo ku meza. Bityo tubasha kuzirya mu biryo. Zifasha umubiri kumera neza, zigatuma urwungano ngogozi rugenda neza, kandi bigafasha umuntu gufata ifunguro ryujuje vitamine. Bityo umubiri we ukabona vitamine zose ukeneye.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane dukwiriye kwitaho kubera ko kiduha umusaruro bityo umusaruro tukabasha gukuramo ifu twifashisha duteka umutsima tukanabonamo n'igikoma. Ibigori rero ni byiza cyane kuko rimwe na rimwe ku babihinga babyeza bakabona ibyokurya bagasagurira n'amasoko bikabaha amafaranga no kugira ngo babashe kwitunga babone n'ibindi byose bakeneye.

Guhura ingano cyangwa umuceri dushobora gukoresha ibintu bitandukanye, dushobora kubihura twifashishije igiti tukagenda turahura, nanone dushobora kwifashisha imashini. Imashini zabugenewe zikadufasha guhura umuceri wacu cyangwa se ingano, bikava mu mashini bisukuye, duhita tujyana ku mashini tugashesha, tukabona igikoma tunywa, tukabona umutsima uturutse mu ngano cyangwa se tukabona umuceri, tugateka umuceri tukabasha kugaburira umuryango.

Guhinga bifite akamaro kubera ko mu byo turya byose nta na kimwe kidaturuka ku buhinzi, n'ibyo ushobora gutekereza ko kidaturuka ku buhinzi, kiba cyaravuye ku cyaturutse ku buhinzi, ni yo mpamvu dukwiriye gukunda ubuhinzi tukabwifashisha kugira ngo dushobore kubaho; bityo rero bikanyura mu guhinga ibihingwa bitandukanye twifashishije imashini cyangwa se isuka. Isuka na cyo ni igikoresho twifashisha mu buhinzi, kidufasha cyane kugira ngo ubutaka buze kuba buteguye neza tubushyiremo imyaka.

Dukwiriye kumenya hamwe na hamwe haturuka imiti harimo ibihingwa. Urugero imiravumba, igikakarubamba, amacunga, ubuki. Tugomba kumenya rero ibintu biri natiro mu ndimi z'amahanga natirere mu gifaransa. Ibintu byaremwe n'Imana bitaraca mu nganda, tukabasha kubikuramo imiti, tukayifashisha kandi tukaza kumererwa neza.

Amatunda ni igihingwa cyiza duhinga. Amatunda ni imbuto nziza kubera ko buri wese akenera kuyifashisha akanayakoresha. Igihe afite umwana, cyangwa se umun amakuru ashobora gufata itunda akarirya kugira ngo abashe kumera neza mu nda, cyangwa se urwugano ngogozi rwe rubashe gukora neza. Niyo mpamvu rero dukwiriye kuzihinga, kandi tukazitaho kuko tuzifasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Igihe turi gutegura ibiribwa byacu ku meza birimo imbuto dushobora kuzikata twifashishije icyuma, urugero ipera ipera ushobara kurirya wifashishije icyuma ukarirya neza ariko warikoreye n'isuku. Impamvu rero ipera rikase iyo turirya neza uba ubasha no kumenya ko mu nda rishobora kuba rifite ikibazo cyangwa se nta kibazo rifite.

Guhinga ni byiza, ibihingwa biradufasha tukagerageza kubonamo amafaranga tukagira n'ibidutunga, y'amafaranga tubonyemo akadufasha ibintu bitandukanye, tukarihera abanye abanyeshuri ishuri bakiga neza bakarangiza bakagerageza kubaho, ndetse tugasagurana n'amasoko kugira ngo nabo hirya no hino babashe kubona ibibatunga, a bikumuka muri ya mamasoko natwe tubona amafaranga twifashisha ture abana bacu neza.

Tugerageze kwita ku buhinzi, kuko isuka irakize. Mu isi tubayeho kubera isuka. Ibyo turya byose bituruka ku isuka. Rero tugerageze tubyiteho, cyane cyane tugerageze gukoresha ibyabugenewe. Urugero imyenda yabugenewe, igihe dutunganya neza cyangwa se duhingira imyaka yacu, kugira ngo imere neza.

Ubutembere ni bwiza. Dukwiye gutembera mu misozi tukabasha kureba aho bitagenda neza, tukabasha kureba ibihingwa bimwe na bimwe, tukabasha kureba ibyatsi bimwe na bimwe tutazi. Ndetse tukabasha no kubonamo imiti. Ya miti twumva, urugero imiravumba ndetse n'indi iranda hasi, tutazi, tukabasha kuyimenya no kuyisobanukirwa, tukayisobanurira n'abato kuri twe, bakazabasha kumenya uko ikoreshwa.

Kugira ngo tubashe kubaho neza, ntabwo twagakwiriye guhora duhinga igihingwa kimwe. Kugirango tubashe kubaho neza, dukwiriye gusura ahantu henshi hatandukanye, tukabasha, kubona ibihingwa bitandukanye, ndetse n'uburyo babyitaho, tukabasha guhabwa umuntu udufasha kuduhugura kugira ngo tubashe kumenya uko natwe twabihinga bikazadufasha ejo hazaza, dusarura, tukagurisha, tukarihira abandishuri, ndetse natwe bikabasha kudutunga.

Ibidodoki ni ibihingwa byiza cyane, bamwe na bamwe bakunze kubyita ibihaza ariko bikagira irindi zina ryitwa shushu. IkidodokI rero kiratekwa kikaribwa niyo mpamvu rimwe na rimwe tujya kwa muganga baKabidutegeka kubera ko ni bimwe mu bihingwa bidufasha koza mu nda no mumara imyanda yose irimo ikabasha kuvamo. Rero tujye tubyifashisha kugira ngo tubashe kumera neza mu nda igogora rigende neza.

Benshi dukunda kurya ibintu bitandukanye birimo imineke, ibitoki, ariko tukanabasha kunywa inzoga ituruka mu bitoki. Inzoga iyo dukunda urwabitoki. Igitoki rero dushobora kukifashasha dukora inzoga yo kunywa, dukora umutobe wo kunywa cyangwa se tubirya. Ubwoko bw'ibitoki byo kuribwa rero harimo inyamunyu. Inyamunyo ni igitoki gitegurwa kigashyirwa ku meza.

Mu buhinzi bwacu rero, dukwiriye kubukurikirana. Ubuhinzi bwacu dukwiriye kubukurikirana, tukareba indwara zabufashe, tukabasha gutera imiti, tukabasha no kumenya niba koko kubuzadu umusaruro uhagije. Urugero, nk'ubuhinzi bw'amashu. Ubuhinzi bw'amashu ni ubuhinzi bwiza. Kuko amashu yifashishwa ahantu hatandukanye. Turayarya, akifashishwa cyane cyane mu bigo by’amashuri, tugaburira abana bacu.

Amasaka ni igihingwa dusarura. Nigihingwa dusarura cyifashishwa igihe turi gukora ibintu bitandukanye birimo ifu y'igikoma ndetse tukanayifashisha nk'umusemburo kugira ngo tubashe kubona inzoga. Rero ikigihingwa tugitunganyiriza mu rugo cyangwa se mu nganda binyuze mukukigosora twifashishije intara intara n'igikoresho twifashisha tugesa amasaka tuyagosora.

Intama n'amatungo magufi yororerwa mu rugo zikunda kugaragara ahantu henshi hatandukanye, no k'ubantu bakunda gusoma bibiliya ntagatifu muzabonamo ishusho ya yezu afite intama. Rero tuzifashisha mu bintu byinshi bitandukanye harimo ku kuzirya, twarya inyama. Intama zivaho ubwoya buvamo ubudodo dukoresha imyenda intama ni nziza rero.

Indabo ni kimwe mu bintu bidufasha kugira icyo twita ubuki. Wakwibaza uti :" Ni gute dushobora kubona ubuki bwuje umwimerere bitewe n'indabo?" Inzuki zijya guhova zikazana ibyo zahovye, bityo zikabasha gukora ubuki. Ubwo buki tukabwifashisha tuvura abantu natwe twivura muri rusange.

Igihe duhinga dukwiriye gusukura ibihingwa byacu tukabisukurira cyangwa se icyo twita kubagara, mu kinyarwanda hari umugani baca ngo ifuni ibagara ubucuti ni akarenge, ikintu kibagaye rero kibaho neza kikabasha gutanga n'umusaruro mwiza n'iyo mpamvu dukwiye gukurikirana ibihingwa byacu urugero nk'ingano. Ingano ,umuceri dukwiriye kuwukurikirana tukawuhingira, tukawubagara tugakuramo uwangiritse, kugira ngo usigaye usigare umeze neza.

Imyumbati ni igihingwa cyiza dukwiriye guhinga duteganya ko tugomba kugikuraho umusaruro, kugira ngo umusaruro tuwubone ni uko tugomba kugikurikirana, uwo musaruro rero dukwiriye kuwukoresha mu buryo butandukanye, dushobora kubetesha imyumbati tukabonamo ifu, dushobora kuyirya tutayibetesheje. Ni yo mpamvu rero dukwiriye kuyihinga tukayikurikirana, bityo ikaduha umusaruro twifuza.

Pepiniyeri ni ahantu twinaza. Ni ahantu twinaza imbuto kugira ngo tubone ingemwe. Izo ngemwe tuze kuzitera zivemo ibihingwa bikuze. Hanyuma bya bihingwa bikuze dutangire kubisarura, biduhe umusaruro ushimishije, bitewe n'uko twabikurikiranye. Ni yo mpamvu rero dukwiriye kwita kuri pepiniyeri zacu, rimwe na rimwe tukananazishyira mu cyo twakwita girini hawuze, kugira ngo zibashe gukura neza, zibashe kubona izuba zikeneye.

Iyo dutegura amafunguro yo ku meza ni uko tugomba kuhagiraho n'imbuto. Mu mbuto zifashishwa mu buryo bwa deseri. Mu ndimi z'amahanga, Deseri ni iki rero? Ni urubuto rwifashishwa ku meza mbere cyangwa se nyuma yo gufata andi mafunguro. Niyo mpamvu rero umwembe ari urubuto narwo rwifashishwa ku meza igihe dufata amafunguro. Ukaba ushobora kurufata nyuma kugira ngo rufashe urwungano ngogozi, igora ribashe kugenda neza.

Mu kinyarwanda tugira icyo twita kugosora cyangwa kugesa amasaka, ntabwo ari byiza rero gufata ibiro bibiri by'ibishyimbo ngo urabijyana ku mashini kugira ngo ibigosore cyangwa ibitunganye, ushobora nawe kubyifatira ukabyitunganyiriza neza, ukabishyira ku mashyiga cyangwa ku mbabura, hanyuma abana bakabona ibyo kurya byoroshye bidatwaye igihe kinini.

Ibigori ni ibihingwa byiza cyane, twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tubone ibyo turya. Abantu barya ibigori rero, babirya mu buryo butandukanye. Hari ubirya akabitema, akabiteka. Agatonora akabiteka. Hari n'ababirya binyuze mu kubibetesha, bakabona ifu y'igikoma ndetse bakaryamo n'umutsima. Niyo mpamvu rero dukwiriye kubikunda tukabihinga, tukanagerageza kwita ku musaruro wabyo.

Kugosora ni ugutunganya ibiribwa, cyangwa se impeke, tugamije gukuramo impeke nzima. Tukajugunya izidakoreshwa, cyangwa se izo tutari bukoreshe, muri icyo gihe. Niyo mpamvu rero tugosora twifashishije intara. N'ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose, kitahabwa izina ry'intara, ariko cyadufasha gusukura impeke zacu.

Ni ngombwa ko ibicuruzwa byacu bifungwa, bigafungwa mu bintu bimwe kandi ibyo bintu bikagira ibirango biranga bifungiye mu imbere bikagaragaza umwimerere wabyo ingano ndetse n'ubuziranenge kugira ngo ubibura abigure abyizeye kandi ashobora no kugira ikibimwizeza ko kiba kigaragara inyuma kucyo bifungiyemo.

Ishyimo ni gihingwa cyiza dusarura iyo twahinze. Ni igihingwa kandi kigaragara mu byubaka umubiri. Igishyimbo ni igihingwa kigaragara mu byubaka umubiri, harimo n'amashaza. Niyo mpamvu rero dukwiriye kubyitaho tukamenya ngo umubiri wacu kugira ubone indyo yuzuye, ni uko hagomba kubonekamo ibishyimbombo, Ibishyimbo rero tukabyitaho tukabiteka tukabitegura ku meza kenshi gashoboka.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza dukunda guhinga, kugira tubashe kukifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ubunyobwa rero bubarwa nk'ibishyimbo ariko nanone bukabarwa nk'ibinyamavuta, ni yo mpamvu ubunyobwa dukwiriye kubufata neza tukabuhinga tukabwitaho, kugira ngo bubashe kuduha umusaruro twifuza. Ubunyubwa dushobora kubutegura ku meza binyuze mu kubukoramo isosi, hanyuma ikaza ku meza ikabasha gufatwa n'uyishaka uwo ari we wese, kuko ifite intungamubiri.

Igihwagari ni igihingwa duhinga. tugamije kuza kugikuramo amavuta yo guteka. benshi tumenyereye ko hari amavuta y'igihwagari azwi kw'izina. kw'zina'ireme tukagira ubuto buri mu moko atandukanye harimo gorudeni ,royo tukagira n'andi moko atandukanye y'amavuta. rero amavuta nayo akomoka mu bihingwa. Igihwagari rero ni igihingwa cyiza cyane dukuramo amavuta tukayarya. akomotse ku kimera tubona n'amaso ya yacu.

Mu Rwanda turahinga ariko iyo duhinze turanasarura, mu gusarura rero hari ibikoresho twikoresha, ibikoresho twifashisha dushobora gusangamo imifuka, ndetse n'ibindi bikoresho birimo ibitebo n'udupaniye twa kizungu ndetse n'utwa kinyarwanda, udupaniye twa kinyarwanda rero na two turatwifashisha, udupaniye tuboshye hakoreshejwe ubusuna imfunzo ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni yo mpamvu rero utu dupaniye twifashishwa mu gusarura cyane cyane imiteja n'icyayi.

Abahinzi benshi dushishikarizwa guhinga ibigori kuko ibigori birifashishwa cyane. Tubikuramo ifu yifashishwa mu guteka igikoma, ibi bikuramo ifu yifashishwa mu guteka umutsima, izwi mu buryo bwa kawunga, aho usanga bafata ibigori bakabitonora, bamara kubitonora bakabicisha mu mashini, bikavamo kawunga. Tubiryamo umuceri, uwo twita "herigori", iyo tunyujije mu ruganda, bakabitonora bakabikoraho cya gishishwa, bagahita babiteka, bivamo umutsima.

Ibishyimbo ni ibihingwa duhinga hanyuma tukabasha kubisarura igihe bimaze kwera, ni yo mpamvu rero dukwiriye guhinga ibishyimbo kuko ari kimwe mu bitegurwa ku meza, kigashyirwa mu mu cyiciro cyo cy'uko bidufasha mu byubaka umubiri. Ni yo mpamvu rero dukwiriye kwifashisha ibishyimbo igihe tugiye ku meza bityo bikabasha gutuma tugira ubuzima bwiza, tukagira umubiri mwiza kandi wujuje ubuziranenge, udashobora gupfa kurwara indwara za hato na hato.

Igihwagari ni igihingwa duhinga tugamije kubona amavuta akomoka ku myaka. Bityo rero bigatuma tuyarya hanyuma tukabona intungamubiri zuzuye. Ni yo mpamvu dukwiriye guhinga igihwagari, ariko tukamenya ko dukwiye no kugikurikirana kugira ngo kibashe kuduha umusaruro, wa musaruro na wo ubashe kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Amasaka ni igihingwa cyiza cyane, kiduha umusaruro binyuze mu kugikurikirana, kikera neza. Hanyuma tukaza gufata umusaruro dukuyemo tukawubyazamo ibindi bintu bitandukanye. Amasaka rero dushobora kuyabyazamo ifu, kuyakubimo ifubi binyuze mu kuyabitisha, kuyakisha ku mashini, binyuze mu kuyasya twifashishije urusyo, tugakuramo ifu y'igikoma, tugakuramo n'ifu dushobora gukoresha igihe cyo gukora inzoga.

Dukenera ibintu byubaka umubiri byinshi ,harimo ibishyimbo ,amashaza, soya .Ibyubaka umubiri rero dusanga dusangamo nk'ibishyimbo, ibishyimbo byifashishwa mu gutegura ifunguro ryo kujya ku meza. Ifunguro aho riva rikagera dukwiriye kwifashisha ibishyimbo ,kuko ari kimwe mu bidufasha mu kubaka umubiri.

Mu mubiri dukeneramo intungamubiri zitandukanye, urugero dukenera ibyubaka umubiri ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, ariko noneho tugakenera ibinyamavuta ni ibidufasha kugira ngo umubiri wacu utohagire umere neza wirinde kubaho ugambaraye, ni yo mpamvu rero tubisanga mu bintu bice bitandukanye, birimo amavuta birimo ubunyobwa. ubunyobwa na bwo ni kimwe mu bihingwa by'ibinyamavuta.

Guhura ni ijambo twifashisha igihe turi guhamagara bagenzi bacu, duhurire aha ngaha n'aha kubera ko hari ibyo dushaka kuganiraho, duhurire hano n'aha hanga kubera ko hari ibyo ndaba nkuzaniye ubyakire, ariko kandi guhura harimo ijambo "guhura" risobanura guhura imyaka, cyangwa se gutunganya neza imyaka irimo ibishyimbo, amashaza, ibigori, amasaka, kugirango ngo tubashe kubibika bisukuye.

Ibishyimbo ni igihingwa cyiza duhinga, kigakira. Cyamara gukora, tukaba dushobora kurya imboga zigiturutseho, ari byo benshi dukunze kwita umushogoro. Umushogoro rero ni amababi y’ibishyimbo, dufata tukayasoroma, twarangiza tukayategura ku meza, tukabasha kubirya mu buryo bw’imboga. Iyo bikuze, tubonamo icyitwa imiteja, imiteja hanyuma tukayifashisha ku meza, na bwo tutegura ku meza, tukayirya. Na none, iyo byeze, turabigasarura, tukabasha kubonamo ibishyimbo, tukabirya tukamera neza.

Imiteja, benshi ku banyamuvuduko w'amaraso bakwiriye kurya imiteja, ni ibiribwa byiza cyane dukwiriye kurya, kuko nitujya kureba tuzasanga mu nda haba harimo impeke ariko itarakura, kuko ibyo bishyimbo bishobora kuba byaragenewe kuribwa ari imiteja. Ni yo mpamvu rero dukwiriye kuyihinga kuko yifashishwa n'abantu benshi.

Mu buzima dukenera kugira ubuzima bwiza binyuze mu kurya ibintu bikomoka ku mpeke zitandukanye. Urugero harimo amasaka, ibigori, ingano, uburo ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Reka rero mu gihe dutegura urugero igikoma cy'umwana, twifashishe amafu yose, kugira ngo umwana abashe kubona intungamubiri zose zimufasha gukura neza.

Inkoko buriya n'itungo rigufi ryororerwa mu rugo ariko ryiza cyane, ridufasha mu kwiteza imbere binyuze mu kuzikuramo umusaruro nk'amagi, amagi tuyifashisha dushaka inkoko nyinshi binyuze mu guturaga, ndetse tukanayarya kuko agira intungamubiri cyane ,cyane ku bana ariko n'abantu bakuru adufasha mu kubaka umubiri.

Nanone igihe bidashobotse ko twifashisha ibyuma bya kizungu cyangwa se ibikoresho bya kizungu, dushobora kwifashisha ibiti ibikoresho biri natireri mu gifaransa cyangwa se nacirorisozi, ni yo mpamvu rero dukwiriye kumenya uko tubikoresha bityo tukabasha kubyifashisha mu gihe twubaka, urugero nk'ibiti dushobora kubaka inzu y'ibiti tukayifashisha tukabona aho tuba, bitadusabye gushaka amasima n'ibyuma.

Kugira ngo ubuzima bube tubeho kugira ngo tugire ubuzima ni uko habaho icyo twita reporodagishoni. porodagishoni mu ndimi z'amahanga ni ugufata icyari kiriho ukakibyazamo ikindi nkacyo. urugero: ugafata inkoko tukabona iyindi nkoko binyuze mu gufata igi tukarituraga, rero igi ryifashishwa no mu kurirya igihe iyoririye ugira ubuzima bwiza.

Dukunde korora ubworozi ni bwiza. Korora amatungo magufi maremare kandi dukomere ku matungo magufi kuko amatungo magufi adufasha mu buryo butandukanye tukabona amafaranga adufasha kwiga, kurihira abandi ishuri tukabona ibidutunga ndetse tukabasha no kuba muri sosiyete dutanga n'imisanzu dusabwani yose niyo mpamvu rero dukwiye ubwo ubworozi bwa amatungo magufi harimo nk'ingurube. Ingurube ni itungo ryiza cyane nta umusaruro....

Inka n'itungo ryiza, cyane cyane mu muco nyarwanda dukunda gukoresha mu gihe cy'ubushitsi cyangwa se ubukwe bwo gukwa, gukwa dutanga inka numva ko inka rero ifite agaciro mu rwanda ndetse no hanze yarwo, kuko iduha amafaranga, ikaduha inyama, ikaduha amata ndetse ikifashishwa muri uwo muhango, dukwiriye rero kuyigaburira neza tukayihiryo yuzuye kugira ngo ibashae gutanga umusaruro.

Mu kinyarwanda tugira icyo twita urupangu. Urupangu n'iki rero? urupango rushobora kuba aho umuntu atuye, ariko mu matungo, urupangu ni aho amatungo yacu akingirirwa, avurirwa. Ni ahantu hato twubaka, tukinjizamo itungo, bakabasha kurikingira cyangwa se bakariha ubuvuzi, igihe bigaragara ko ryarwaye.

Mu muco nyarwanda ndetse no mu Rwanda rwo hambere, twe tugira inka inka z'ubwoko butandukanye, izo nka zose zikaba zitanga umusaruro ariko zigatanga umusaruro utangana, mu Rwanda rero dufite inka zitwa inyambo inka zitwa inyambo zakundaga kugaragara ibwami, ariko na n'ubu ngubu ziracyahari kandi zifite akamaro ziduha amata inyama, zikaduha n'amafaranga twifashisha muzima bwacu bwa buri munsi.

Ingurube ni inyamaswa nziza, dukwiriye korora iwacu mu rugo nkitungo rigufi, kubera ko iduha umusaruro. Irabyara tukabona ingurube nyinshi, zigatanga inyama, bityo abazirya bakabasha kubaho neza, ndetse nutayiririye ayoroye arayigurisha, akabona amafaranga amufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ikiraro cy'amatungo ni ahantu amatungo yacu aba, aho hantu ashobora kuhirirwa cyangwa se akaharara bitewe n'uko bayakurikirana, ashobora kujya mu rwuri hanyuma yataha akaza kurara hahandi twita mu kiraro cyangwa se akaba ashobora kuhirirwa, akanaharara binyuze mu cyo twita ziroburezingi kororera mu rugo.

Isake ni akanyamaswa cyangwa se inyamaswa tubara mu matungo magufi , iravuka igakura yamara kuba nkuru ntitera amagi ahubwo ikabika, mu cyongereza tukayita cock ,niyo mpamvu rero dukwiye gufata isake neza kuko zidufitiye akamaro, ziduha inyama zidufasha no gufunda inkokokazi zikabasha guturaga amagi, kubera ko ayo magi aza abanguriye.

Ku isi hari indwara nyinshi zitandukanye ziri kuza. Nka za covid nayintini cyangwa covid cumi'ikenda ziterwa n'agakoko ka koronavirusi. Ni yo mpamvu rero dukwiriye kumenya ko n'amatungo yacu ashobora kwatakwa n'indwara zitandukanye, bityo tukabasha kuyavuza twifashishije ababyize, ababifitiye ubumenyi babihuguriwe, barimo veterineri cyangwa abasanzwe batanga serivisi zerekeranye n'ubuvuzi bw'amatungo.

Ihene ni akanyamaswa gato, kororerwa mu rugo, dukunze kwita amatungo magufi. Rero, mu matungo magufi, dusangamo ihene. Ihene ikaba ari inyamaswa nziza, tworera mu rugo, ikabasha kuduha umusaruro, urugero inyama. Ikabasha kuduha undi musaruro, twavuga nko kubyara, ikororoka, bityo tukabasha kubona ihene zirenze imwe. Ni yo mpamvu rero, dukwiriye gufata neza ihene, tukayikuraho umusaruro.

Ubuvuzi bw'amatungo, ubuvu bw'amatungo ntabwo bukorwa na buri umwe wese, bukorwa n'umuntu wabwigiye cyangwa se wabihuguriwe, bityo akabasha kuvura amatungo, ayaha ibyo akeneye mu buzima bwayo bwa buri munsi, hakirindwa kuba buri umwe wese ashobora kwiyitirira izina rya veterineri, akabasha kuvura amatungo kuko bishobora gutera ukwangirika kw'amatungo, bikaba byanayaviramo gupfa bya hato na hato, reka rero tubirekere ababihuguriwe aba ari bo babikora.

Ingurube n'itungo ryiza twororera mu rugo, rikaba rifite akamaro kanini ari nayo mpamvu dukwiriye kuribungabunga, tukaricungira umutekano, tukanacunga ko rishobora kwatagwa n'uburwayi kugira ngo tubashe kurivuza kandi tukarivuriza ku gihe, niyo mpamvu rero ingurube dusanga ifitiye umuntu akamaro, bitewe n'uko ashobora kuyikuraho inyama benshi muzi ku izina ry'akabenzi cyangwa se poke mu ndimi z'amahanga niyo mpamvu dukwiye kurifata neza rero kubera ko idufitiye akamaro.

Inkoko ni' itungo ryiza dukwiriye korora mu rugo, kubera ko ziduha amafaranga tuzigurisha tukabona amafaranga twifashisha dukemura ibibazo dufite, nanone zikaduha amagi, amagi afite intungamubiri amagere intungamubiri mu buzima bw'umuntu niyo mpamvu tu inrwa kugira ngo tubone n'amagi yo kurya tutanrageje ko tunazibonamo inyama ziduha inyama zo kurya bityo tukabaho neza.

Imvubu ni inyamaswa y'inyeshyamba ni inyamaswa y'ingome, inyamaswa dukwiriye kwirinda ariko nanone tukabungabunga umutekano wayo kuko ari imwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo bakaduha amafaranga binshi tuzi ku izina ry'amadovize tukabasha kubaka ibikorwa remezo birimo imihanda, ibitaro, n'amashuri. Niyo mpamvu rero dukwiriye kuzifata neza zikaba muri pariki zifite umutekano.

Tugira uru rwuri cyangwa se tukagira inyamaswa zo mu shyamba mu rwuri rwacu rero cyangwa se mu ishyamba habamo utundi tunyamaswa dutoya. Ibiguruka dushobora gusangamo inuma ,imisambi , ibisiga, imisambi rero niutunmasazwa twiza cyane cyane iyo tugiye mu ifamu tugufasha gukiza ibirondwe ku matungo nk'inka.

Inyoni ni akanyamaswa kaguruka, keza cyane kadufasha mu buryo bwa polinesheni mu ndimi z'amahanga, kadufasha gukora icyo twise feritilizesheni ku bimera, kandi ushobora guhinga ikigori cy'umweru ugasanga byeze harimo icy'umuhondo, biba byaratewe n'icyo twita polinesheni bitewe na ajenti ofu polinesheni mu ndimi z'amahanga cyangwa se na bimwe mu bituma iryo bangurira rihaba. Niyo mpamvu rero inyoni dukwiriye kuyikomeraho.

Ishya ni inyamaswa iba mu ishyamba iri mu bwoko bw'ihene yororerwa mu rugo. ni inyamaswa nziza rero imwe ikurura na ba mukerarugendo bakabasha kuza kuyireba bityo ikinjiriza igihugu amadovize. ayo madovize tubonye mu gihugu cyacu akadufasha kubaka ibikorwa remezo birimo; imihanda, ibitaro, amashuri ndetse n'ibindi.

Ikigona ni akanyamaswa kaguruka kakagira umukara n'umweru hagati, ni yo mpamvu ikigona dukwiriye kukibungabunga, kubera ko na cyo ari ikinyabuzima kandi kikaba gifite akamaro, akamaro gifite rero ni kenshi ni yo mpamvu dukwiriye kugifata neza, kugira ngo tukirindire umutekano wacyo twirinde kucyangiriza, kuko na cyo ari ikinyabuzima.

Inyoni ni akanyamaswa keza cyane kaguruka, kadufasha mu cyo twita porinashoni mu rurimi rw'amahanga, porinashoni rero ni uburyo bwibangurira, ikimera gishobora kibangurira ubwacyo mu rurimi rw'amahanga serifu porinashoni, cyangwa se ikimera kikakangurira ikindi kigenzi cyacyo ariko bihuje ubuziranenge, bihuje neza aribyo twita korosi porinashoni, ariko bikanyura mucyo twita agenti porinashoni, agenti porinashoni urugero nk'inyoni.

Imbuto ni ikintu cyiza cyane mu mubiri. niyo mpamvu dukwiye kuzitaho tukazibungabunga tukazitera umuti tuza akazizikorera ibisabwa kugira ngo twirinde uburwayi zishobora guhura nazo bityo ejo hazaza tuzazifashishe tubashe kumera neza mu mubiri. urugero harimo amapera. amapera n'urubuto rwiza rwifashishwa igihe abantu bari ku meza cyangwa se bakeneye kururya kugira ngo mu mubiri wabo bumve bameze neza.

Inyoni n'akanyamaswa kaguruka, inyoni rero ifite akamaro kanini mu buzima bwa muntu, ni ukubera iki duhinga ibigori by'umweru tugasanga haje n'ibigori by'umuhondo? ni ukubera inyoni bedi zikora icyo twita mu ndimi z'amahanga pori neshoni (polly nation) bigatuma tubasha kubona ibimera bitandukanye n'ibyo twahinze, bityo bishobora gutuma tunabona umwimerere w'igihingwa runaka utadukanye. Inyoni dukwiye kuzifata neza rero tukirinda kuzangiriza.

Mu ishyamba habamo inyamaswa zimeze neza nk'izo dutunze iwacu mu rugo. Kuko tugira inyamaswa zororerwa mu rugo, tukagira n'inyamaswa ziba mu ishyamba. Isatura rero ni inyamaswa iba mu ishyamba yo mu bwoko bw'ingurube imeze neza nk'ingurube tworora iwacu mu rugo, uretse kuba bitandukaniye mu kuba imwe iba mu ishyamba, indi ikororerwa mu rugo.

Mu rugo tugira inyamaswa. Ariko nanone mu rugo inyamaswa tugoramo cyangwa se amatungo yororwa mu rugo nanone mu ishyamba dushobora kuyasangamo urugero imbwa yo mu rugo, ihene yo mu rugo, ihene mu ishyamba iyo twita ishya, tukagira ingurube yo mu rugo, tukagira isatura zo mu ishyamba. Niyo mpamvu rero dukwiriye kuzibungabunga nazo kuko zidufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Isatura ni ingurube yo mu ishyamba, ni ingurube yakuriye mu ishyamba ikaba idahuje imico n'ingurube yarerewe mu rugo, niyo mpamvu rero dukwiye kuyifata neza tukayibungabunga kubera ko zidufitiye akamaro ziduha umusaruro, aho zishobora kubwagura tukaza kubona izindi ntoya zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, binyuze mu kuzigurisha tukabona amafaranga yo kwishyurira abana ishuri bakiga neza, ndetse tukanakuramo amafaranga adufasha kubona ibyo dukeneye.

Ifundi nakanyoni gatoyakanyo gatotare n naaka kabaga gafite ahadufitiye akamaro guhera ko kadufasha mucyo twita mu rurimi rw'amahanga polnetion polmenation bisobanura iki izi the trancifa offolnygreen for the anntar to tdestigmen oflower niyo mpamvu iyo kagiye ku rurabo runaka katwaraho ikitwa polin graye kajya ku rurabo kakashyirahotwadpron grane petilisation niyo mpamvu dukwiriye nako ukitaho kuko gatuma

Amashyamba dusangamo inyamaswa nyinshi zitandukanye zitwinjiriza amafaranga, mu kinyarwanda cyiza ni byo twita amadovize. Tugerageze kubungabunga umutekano wazo kuko zifitiye buri umwe wese akamaro, kuko ayo mafaranga akoreshwa mu kubaka ibikorwa remezo bitandukanye, bikifashishwa n'abaturage b'igihugu.